Inama rusange y'umutekano, aho yahuje abaturage b'ingeri zose abagore n'abagabo, aho bicaye ku bwinshi batuje, kandi bashishikariye gukurikirana amabwiriza bari guhabwa n'ushinzwe umutekano, uri kubabwira zimwe mu ngingo zitandukanye z'iyo nama.

Mu muhanda mugari gwa kaburimbo aho umupolisi yahagaritse abantu barimo abamotari n'abashoferi b'amamodoka kugira ngo abasobanurire ibyerekeranye n'umutekano go mu muhanda.

Inama yitabiriwe n'abaturage b'ingeri zose, irabera ku kigo c'amashuri, aho bicaye bateze amatwi inama z'ubuyobozi, bahabwa amabwiriza ku ngamba z'umutekano.

Abashinzwe umutekano aho bari mu mahugurwa yo gukoresha iziko rya gazi, kandi no kugira ubumenyi buhagije mu gihe ryaba riteje ibibazo by'impanuka.

Abashinzwe umutekano baratoza imbwa kugira ngo zije zivumbura bimwe mu bicuruzwa by'ibiyobyabwenge biba bitemewe kwinjizwa mu gihugu birimo urumogi.

Inzego z'umutekano zishinzwe kuzimya umuriro, aho zahamagaye abaturage kugira ngo zibigishe uburyo bwo kuzimya umuriro butandukanye, muri bwo hakaba harimo no gukoresha ikiringiti.

Ikibuga kigali c'amashuri aho ababyeyi benshi bateraniye bari guhabwa inama n'ubuyobozi bw'ikigo kugira ngo bafatanye kwita ku mirere ndetse n'imyigire z'abana babo ku ishuri ndetse no mu rugo.

Inama yahuje abaturage b'ingeri zose. Iri kubera imbere y'ikigo cy'amashuri. Aho bicaye batandukanye, mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya korona, kandi buri wese yambaye agapfukamunwa.

Abantu b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo bitabiriye inama, aho buri wese ashishikajwe no kumva icamuzanye muri iyo nama kugira ngo atahe hari ico atahanye.

Ikirere cyuje amahumbezi n'imbeho nyinshi cyane aho abaturage bazindukiye mu nama abagore n'abagabo n'abana. Ubakoresha inama akaba abahagaze imbere ari kubabwira ibikubiye muri iyo nama n'amabwiriza yayo.

Inama rusange yahuje abaturage b'ingeri zose, inzego zishinzwe umutekano, ndetse n'inzego z'ubuyobozi, aho umuyobozi yahagurutse kugira ngo agire icyo ageza ku baturage ku byerekeranye n'iyi nama bahuriyemo.

Inama y'abayobozi bo mu nzego zitandukanye, aho bari kuyikora bubahiriza amabwiriza ya korona. Buri wese akaba yicaye mu buryo bumutandukanya n'undi, kandi buri wese akaba yambaye agapfukamunwa.

Inama yahuje abaturage b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo umwe muribo afashe ijambo, kugira abashe kubageza ho igitekerezo ce.

Inama yahuje abaturage benshi ndetse n'inzego zinyuranye, zirimo izishinzwe umutekano n'izishinzwe ubuyobozi bwite bwa Leta. Umuyobozi akaba ari kubaha amabwiriza yerekeranye n'iyo nama barimo.

Abaturage benshi bicaye mu murima urimo utwatsi, imbere y'umuyobozi, bafite ibikoresho byabo birimo amasuka, kugira ngo bumve ijambo agiye kubagezaho nyuma y'umuganda wari wabahuje.

Igiseke cyiza cyane kandi gifite utubara twiza tw'umukara tugiye tunyuranamo. Igiseke ni igikoresho cyakoreshwaga n'abanyarwanda bo mu gihe cya kera, aho bagikoreshaga batwazamo imyaka, ariko na nubu kikaba kigikoreshwa kandi kikaba kinafatwa nk'umutako.

Agakoresho gateretse mu mbavu z'inzu, gakoreshwa mu ntara y'amajyaruguru gusa aho bagashyiramo imyaka bagiye gusura bagenzi babo, kakaba kitwa agasero.

Urusenge gw'inzu za kera za kinyagwanda aho gwabaga rushakakaje ibyatsi hejuru, kandi rukaba gwarabaga rukozwe nk'umutemeri, kandi rufite n'inkingi nyinshi imbere z'ubwoko butandukanye.

Ibikoresho bya kinyarwanda birimo igisabo ,inkongoro inini n' intoya n'imifuniko yazo aho biteretse ku kirago kandi hakaba hari n'uturago dutoya bitaga imice .uturago twifashishwaga ku mazu ya kera ya kinyarwanda kandi tukaba twarabaga ari n'imitako mu buryo bwa rusange.

Igisabo kibitswe mu buryo bwiza cyane aho kibitswe mu buryo bita kukijisha kugira ngo kitabasha kugwa kikaba cyameneka. Igisabo ni kimwe mu bikoresho by'abanyarwanda bo hambere ariko na nubu kikaba kigikoreshwa cyane cyane mu makwe.

Uduseke twiza dufite amabara meza dusobekeranye, aho bigaragara ko batuboshye mu buryo bwiza cyane. Igiseke ni igikoresho cy'Abanyarwanda bo hambere, ariko na n'ubu kikaba kigikoreshwa. Aho umuntu acyifashisha agiye gusura mugenzi we, ariko kikaba kinakoreshwa mu buryo bw'umutako.

Abagore n'abakobwa bari kuvuza ingoma bizihiwe, aho buri wese ashimishijwe no gukora, uwu muco ubusanzwe wari umuco wakorwaga n'abagabo gusa, ariko muri iyi minsi abagore na bo bakaba basigaye bavuza ingoma kandi bakabikora neza cyangwa.

Umubyeyi uri kubeta amasaka y'amamera yifashishije urusyo rw'ibuye n'agakoko, kugira ngo kabashe kujyaho ifu iri kuva ku rusyo. Urusyo rw'ibuye ni kimwe mu bikoresho abanyarwanda bakoreshaga mu bihe byo hambere, kuko nta bikoresho by'amamashini byabagaho. Bakaba barifashishaga urusyo rw'ibuye kugira ngo babashe kubona ifu.

Abakobwa n'abadamu bakiri bato cyane aho bari mu mwitozo wo kwiga kurashisha umuheto. Umuheto ni imwe mu ntwaro abanyarwanda ba kera bifashishaga iyo babaga bari kurwanya umwanzi mu ntambara.

Ibitoki by'imineke yahiye neza ivamo urwagwa, aho bari kuyitonora bayijugunya mu muvure, kugira ngo batangire gukama bakoresheje utwatsi twiza, ahasigaye bakuremo umutobe uzavamo urwagwa.

Ku kibuga kigari cane abantu benshi bitabiriye kureba umukino w'urukiramende aho abasore beza kandi barebare cane bari gukoresha inkoni ndende kugira ngo babashe gusimbuka urukiramende.

Umuganda rusange wahuje abaturage bose inzego zishinzwe umutekano inzego zishinzwe ubuyobozi, aho bari gukora umuhanda bifashishije ibikoresho bitandukanye imihoro amasuka ndetse n'ingorofani.

Intore ziri kubyina neza cyane, kandi zinagaragaza umuco mwiza wa kinyarwanda, aho zambaye imyambaro zirimo umugara w'intare ndetse n'idarapo ry'u Rwanda. Kandi zikaba zifite n'ingabo n'amacumu.

Ababyinnyi bari kubyina ariko banagaragaza umuco mwiza wa kinyarwanda, aho bikoreye uduseke kandi bambaye imikenyero. Uduseke natwo ni tumwe mu bikoresho byakoreshwaga kera mu muco wa kinyarwanda, ariko kugeza na n'ubu tukaba tugikoreshwa, kandi tunagaragazwa cyane mu bintu by'imitako.

Uruboga rw'isogi rufite uruyange rwiza cyane , n'utubuto twitegura kuba twatanga izindi sogi. Uru ruboga rwakoreshwaga n'Abanyarwanda bo mu bihe byo hambere cyane cyane

Umurima munini w'isogi aho zakuze zikabyibuha kandi zikaba zibasha kuribwa igihe cyose zakenererwa isogi ni imboga zakundwaga n'abanyarwanda ba kera cyane aho bazifataga nk'umuti mu bice bitandukanye by'igihugu

Mu misozi myiza cane kandi zitohagiye zisobekeranye ahari ikiganza gifashe kimwe mu bikoresho bya kinyagwanda kitwa inkongoro, aho kifashishwaga bari gukama.

Abagore beza bari kubyina; imbyino zigaragaza umuco mwiza wa kinyarwanda, kandi bakaba bambaye imyambarire igaragaza imico ya kinyarwanda, irimo imikenyero n' urugori mu mutwe.

Abagore bavuza ingoma bishimye bizihiwe, bambaye imyenda myiza ya kinyarwanda, urugori ndetse n'umukenyero, aho bagaragaza uyu muco, ubusanzwe wakorwaga n'igitsina gabo gusa.

Isekuru n'umuhini gwayo kikaba ari igikoresho kifashishwa mu gusekura bimwe mu biribwa bitandukanye, kikaba gikoreshwa kuva mu myaka za kera kugeza n'ubu ,kikaba kigikoreshwa mu bice bimwe bitandukanye by'igihugu cacu c'u Rwanda.

Ubutaka bugari bwubatsweho amazu ga kinyagwanda ga muviriingo kandi gasakajwe ibyatsi, kandi gakikijwe n'uducaca dukase neza. Hirya yago hari n'urutoki n'ibiti byo gutuma haza umwuka mwiza.

Abantu bari gukora imyambaro zitwa inkanda mu biti zambagwaga n'abanyagwanda ba kera cane ubwo amajambere gari gataraza abantu bataramenya kwambara imyambaro zikoregwaga mu nganda.

Akarago k'umuce gafite imitako z'amabara meza cyane . Umuce ni akarago kamanikwaga ku bibambasi by'amazu ya kera ya inyarwanda ,kandi kakaba karifashishwaga no mu kugaragaza imitako ya kinyarwanda.

Umugabo ufite imisatsi miremire myiza, isokoje mu buryo bw'amasunzu. Amasunzu ni insokozo y'abagabo ba kera, aho bazisokoreshaga cyane cyane iyo babaga bageze mu bihe by'urugamba.

Uruvangitirane rw'ibikoresho bya Kinyarwanda bya kera harimo ingoma , igisabo inkongoro , agatebo umugara, isekuru ndetse n'ikirago.

Ibikoresho bya kinyarwanda, birimo inkongoro, ndetse n'ibisabo, aho bijishe neza, kugira ngo bitabasha kwangirika, inkongoro ni kimwe mu bikoresho, byifashishwa mu kunyweramo amata, naho ibisabo, muri iyi minsi, bisigaye bikoreshwa cyane, mu mihango y'ubukwe.

Ababumbyi bari gukora umwuga wabo, aho bari kubumba ibindi, inkono nini, ndetse n'intoya n'utundi duto cyane bita utweso. Ububumbyi ni umwuga wahozeho kuva kera aho ubu ngubu bwateye imbere ,busigaye bukorwamo ibikoresho byiza bishimishije, bivuye no mu nganda.

Intore ziri kubyina zizihiwe kandi zinagaragaza umuco mwiza wa kinyarwanda ,zambaye umugara n'udukenyero ndetse n'amayugi ,kandi zifashe icumu n'ingabo mu ntoki.

Agasuka gatoya cyane niko ko bita agafuni, ariko kaba karavuye ku isuka nini. Kakaba gakora imirimo irimo kubagara utwatsi mu rugo, kubagara imyaka yo mu murima, ndetse no kuyuhira. Kandi kakaba gakora n'utundi turimo dutandukanye tworoheje.

Bimwe mu biribwa bitandukanye bya kinyagwanda aharimo umutsima gw'amasaka, umutsima gw'ingano, ibigori ndetse n'ibijumba, n'igikoresho cya kinyagwanda kitwa agakoko. Ibi bikaba bigaragara cyane ku munsi g'umuganura aho tuba twibuka uburyo Abanyagwanda ba kera basangiraga ku byo babaga bejeje.

Intore zibyina zishimye kandi zizihiwe, zishaka kugaragaza neza umuco gwa kinyagwanda, zambaye umugara mu mitwe yazo, zifashe ingabo n'icumu mu maboko.

Umuririmbyi ukoresha igikoresho cya Kinyarwanda cyitwa umuduri, ukaba ugizwe n’igicuma n’inkoni ahambiranyaho imirya, maze ya mirya yayikoramo igatanga umuziki mwiza cyane unogeye amatwi.

Ibizumba byiza cane kandi binini byateguriwe gushirwa muri runonko yamaze kwaka neza cane kugirango bize kubasha gusha neza runonko ni umuco wa kera w'abanyagwanda aho abana bajaga ku gasozi maze bakayicana bagashiramo ibijumba.

Umuzinga bakoresha kugira ngo uzajyemo inzuki maze zizabashe gutanga ubuki, aho umanitse mu giti kugira ngo zizabashe kwinjiramo neza maze zizabashe no gutanga ubuki bwinshi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, abagore n'abagabo aho bari guhinga ku butaka bugari bakoresheje amasuka n'imihoro, bikaba bigaragara ko rishobora kuba ari nk'ishirahamwe ry'abantu bari guhinga cyarwa se bakaba ari abantu bari mu muganda.

Ifoto nziza cane igaragaza umuco gwihariye gwa kinyagwanda, aho abagabo bambaye umugara, bafashe amacumu mu ntoki n'amayugi, abagore n'abakobwa na bo bambaye urugori mu mutwe ndetse n'umukenyero na bimwe mu bikoresho birimo igisabo ndetse n'inkongoro.

Inzu ya kera ya kinyagwanda n'uruzitiro gwayo aho ababyinnyi babyinira berekana ubwiza bw'umuco nyagwanda, abagabo bambaye umugara bafashe n'umuheto, abagore bambaye urugori.

Ababyeyi n'ibyishimo byinshi，bari gukama imineke bifashishije utwatsi twabugenewe， tubafashaga gukamura imineke neza，kugira ngo zibashe gutanga umutobe mwinshi kandi guhagije.

Ibiryo byiza bya kinyarwanda kandi bi bitera imbaraga harimo umutima, ibishyimbo, imyumbati, aho byaruriwe ku bikoresho bya kinyarwanda birimo agakoko. Kandi kakaba gateretse no kuturago twiza tuboshe neza.

Icyuma bifashisha bari gutera imyaka imiti zitandukanye. iki gikoresho ni igikoresho nkenerwa cyane ku bahinzi bose, kuko bakifashisha bari gutera imiti imyaka irimo: ibirayi, imboga, imbuto, ndetse n'ibindi.

Umubumbyi w'umugore uri kubumba ibibindi, inkono nini ndetse n'intoya. Ibibindi byifashishwaga mu kubushyiramo inzoga zirimo ikigage ndetse n'urwagwa naho inkono zifashishwaga mu kuzitekesha.

Ifu y'ubugari nziza cane irategurwa hifashishijwe isekuru, umusekuzo, akayunguruzo, ndetse n'ibikoresho bitandukanye byo kuyiyungururiramo.

Ibibindi binini cane kandi bipfutse neza, aho kimwe kirimo imiheha kugirango umuntu abashe kuba yasogongeraho, kandi biri ku kirago aho buri kimwe giteretse ku ngata, ibasha kugishigikira neza.

Ibishyimbo byiza kandi binini bifite ibara jy'umutuku, aho bigaragara ko umuhinzi wabyo mu kubihinga yabyitayeho akabiha ibyangombwa bihagije, kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza kandi mwinshi.

Umurima munini gw'amasaka meza kandi gatohagiye, amababi g'icatsi cibisi kandi magari n'amahundo gabyibushe cane, aho gategereje kubona akazuba kugira ngo gwume neza maze gasarugwe.

Imboga z'isogi, aho ziri mu murima, zikaba zibyibushye zishishe kandi zitogiye, isogi ni imboga abanyarwanda ba kera baryaga, ariko bakaba baranazifashishaga mu miti yavuraga indwara zitandukanye.

Umusangiro wahuje abagore n'abagabo， aho bari gusangirira mu muvure， umwe urimo inzoga, buri wese akaba afite umuheha w'iwe，kandi uyu muco akaba ari, umuco nyarwanda wahozeho kuva kera, wo gusangirira hamwe.

Inka nziza za kinyagwanda z'amahembe meza cane, aho zororerwa ku butaka bugari cane bufite ubwatsi butohagiye, kugira ngo zibashe gutanga umukamo gushimishije.

Inka z'ubwoko bw'inyarwanda aho ziri mu kibumbiro, umushumba wazo akaba ari kuzidahira amazi, aho ziri kunywa kugira ngo nizirangiza, azisubize mu bwatsi zikomeze zirishe.

Agaseke n'agakoko biboshye mu mabara meza cyane kagaragara neza. Ibi bikaba ari bimwe mu bikoresho byifashishwaga kuva mu banyarwanda ba kera kugeza no muri iyi minsi. Ni ibikoresho bigaragara cyane mu muco nyarwanda.

Ibiro birimo mudasobwa n'ibikoresho byayo bitandukanye, mudasobwa n'igikoresho cy'ikoranabuhanga kigezweho muri iyi minsi, aho kibasha kwihutisha serivisi.

Inyubako y'umudugudu mwiza kandi gubatswe mu buryo bugezweho, aho abagutuyemo babasha kugira ubuzima bwiza, kuko basangagamo ibyangombwa nkenegwa byose mu buzima.

Inyubako nziza kandi nini igezweho y'urusengero aho ifite na parikingi ijagamo imodoka zihagije kugira ngo abaje gusenga babashe gushiramo imodoka zabo mu buryo bwisanzuye.

Inyubako y'ubuvuzi bwa posite de sante aho yegereje abaturage, ikaba iboneka muri buri kagari k'igihugu kugira ngo abaturage bahagane igihe bagwaye, maze bikabarinda kurembera mu rugo.

Inyubako nziza cyane y'ingoro y'ubutabera iri mu Karere ka Musanze, aho ifite ikimenyetso cy'idarapo ry'Igihugu. Imbere yayo muri iyi nyubako ni ho abafite ibibazo by'imanza bitandukanye bagana kugira ngo babashe guhabwa ubutabera.

Umudugudu munini mwiza kandi wubatswe neza cyane, aho ukoreshejwe amatafari ahiye, kandi ukaba usakajwe amabati meza agezweho. Ukaba waraciriwe umuhanda hafi yawo, kugira ngo abazawutuzwamo bazajye babasha gukora urugendo bifuza mu buryo bwiza kandi buboroheye.

Umudugudu munini cyane kandi wubatswe neza, kugira ngo abaturage bazawutuzwamo bazabashe kuwubamo bisanzuye. Kandi hafi aho hari n'ikiraro kinini cyane cy'inka, kugira ngo buri muturage azabashe kugira itungo rizabasha kumuha amata, maze abana be bazabashe kugira ubuzima bwiza.

Urusengero gubatse ahantu haja kuba ku gasozi ruri gonyine, nta muntu uhari, rukikijwe n'ibiti kandi rufite inyubako ishaje, ndetse n'amabati gashaje.

Inyubako nziza kandi nini cyane yo guturwamo ,aho bigaragarako ifite ibyumba byinshi, ibirahuri byiza bya fime by'umukara ,n'igisenge gikomeye cyane aho gishyirwa ku mazu agezweho muri iyi minsi.

Inyubako nziza kandi y'umurenge wa sako ,aho yubatswe hafi y'umuhanda mwiza wa kaburimbo, kugira ngo abantu baje kuhashaka serivisi bajye bahagera mu buryo bwiza kandi buboroheye.

Urusengero runini cane kandi gwashaje ariko ruragaragara nk'urufunze, kubera ko rutujuje ibyangombwa bisabwaga n'ubuyobozi kugira ngo rukomeze rukore.

Ishusho ryiza cyane, ry'umubyeyi Bikiramariya, aho riteretse imbere ya kiliziya gatulika, rikaba kandi ritamirijwe n'indabo nziza cyane, zigize imitako iteretse imbere ye.

Inzu ishaje yubatse ahantu hegutse, haja kuba ku gasozi iri yonyine, nta muntu uhari, inyuma yayo hari ibiti kandi imbere yayo hariho utwatsi tugiye kuma.

Inyubako nini cane yubatse hafi y'umuhanda mwiza gwa kaburimbo, ikaba ari muviringo kandi igeretse hejuru, ikoregwagamo ibikorwa bitandukanye birimo ubudozi.

Ikiraro kiri hejuru mu kirere gikozwe mu byuma, kugirango gifashe abantu kwambuka, bava mu gace kamwe baja mu kandi.

Inzira y'ikiraro cyubatswe mu kirere， aho kibasha guhuza ibice by'uturere bitandukanye，maze bikorosha urujya n'uruza，imihahiranire ndetse n'imigenderanire y'abatuye utwo turere.

Inyubako y'ubuyobozi bwa leta yo ku rwego rw'akagari aho abaturage baganaga, baje gushaka serivisi zitandukanye zirimo nko gushaka ibyangombwa indangamuntu n'ibindi byishi,, inyubako iri hagati y'ibiti ku bujyo uhageze wese abasha no kubona akuka keza.

Inyubako ya kiriziya gaturika paruwase y'umujyango mutagatifu, aho bizihiza yubire y'imyaka ijana imaze ishinzwe mu iyogezabutumwa.

Umudugudu mwiza cane gw'icyitegererezo, gufite amazu menshi kandi g'ama etaji, aho gubatse ahantu hari ibiti byinshi kandi byiza, bigufashaga kubona umwuka mwiza kandi bukaguzanira amahumbezi.

Inyubako y'amashuri manini kandi gafite ibyumba bigari bibasha kwakira abanyeshuri bahagije, mu rwego rwo kubaha uburezi bufite ireme, gakaba gari hafi y'umuhanda kugira ngo abanyeshuri bage bahagera mu buryo buboroheye.

Imodoka nini ya katerepurari, irakora umuhanda neza, iwutegurira gushirwamo kaburimbo, kugira ngo urujya n'uruza rw'amamodoka atwara abantu n'ibintu, ajye azitwara mu mutekano usesuye.

Abantu b'ingeri zitandukanye baragenda ku kiraro co hejuru, aho bigaragara ko ari ubuyobozi bwagitashe, kugirango ngo kibashe guhuza uturere dutandukanye, mu gwego gwo korosha imihahiranire n'imigenderanire.

Igiterane c'abantu benshi kandi b'ingeri zose, abana, abagabo ndetse n'abagore bicaye mu twatsi bashishikajwe no gukurikirana urubanza gw'umuntu.

Inama yahuje abaturage benshi cyane kandi b'ingeri zitandukanye abagore n'abagabo, aho bicaye hasi bateze amatwi kugira ngo babashe gukurikirana ingingo nyamukuru igiye kuvugwaho muri iyo nama.

Akamoto gatoya cyane gatwara imitwaro ariko itari myinshi, aka kamoto kakaba kifashishwa n'abantu iyo bafite imitwaro itari myinshi. Aho kabafasha kuyigeza aho bashaka kujya mu buryo bwiza kandi buhendutse.

Mu muhanda mwiza munini kandi mugari gwa kaburimbo gufite isuku, aho imodoka nziza nini ya bisi ihagaze kugirango ifate abagenzi iberekeza mu bice bitandukanye by'umugi bagiyemo.

Umuhanda mugari gurimwo abantu batwaye amagare n'ibimodoka binini cane bihagaze ku nkengero, z'umuhanda byikoreye ibicuruzwa bitandukanye, bivuye mu bihugu byo hanze.

Uruja n'uruza gw'abantu n'amamodoka, aho abantu benshi bashaka kwambuka umuhanda bava mu gihande kimwe bagana mu kindi bakoresheje akayira kabugenewe kitwa zebura korosingi, n'imodoka zikaba zahagaze mu gihande kimwe kugira ngo hirindwe impanuka zikomeye zo mu muhanda.

Abanyeshuri mu mpuzankano y'amashuri yabo, aho bari kurira amamodoka kugira ngo babashe gusubira ku masomo, iyi ikaba ari gahunda yashyizweho na leta yo korohereza abanyeshuri, kuko igihe cyo gutangira cyangwa se cyo kujya mu biruhuko habagaho ibura ry'amamodoka, ibi bigatuma abana bakererwa kugera mu rugo cyangwa se bagakererwa kugera ku mashuri yabo.

Imirongo z'uruja n'uruza gw'abagenzi abagore, abagabo ndetse n'abana, aho baje muri gare gushakisha amamodoka go kubageza mu ntara, maze buri wese akabasha kugera mu Karere yifuza gutahamo.

Inyubako nini cyane kandi ngari, ifite aho abaturage bategera amamodoka kugira ngo abashe kubageza mu bice bitandukanye, baba bagiyemo. Hafi y'izo modoka, hari utuzu abagenzi baruhukiramo, iyo bategereje amamodoka yo kubatwara.

Imodoka itwaye icayi camaze gusarugwa mu mirima, aho ikijanye ku ruganda kugira kibashe gukorwamo ibintu bitandukanye, birimo amajani dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Indege y'igihugu c'u Rwanda igaragazwa n'ibendera ry'igihugu, igiye gutwara imizigo myinshi kandi zitandukanye, n'abagenzi kugira ngo ibajyane ibageze mu bihugu bifuza kujamo.

Imodoka z'amabisi manini cyane meza kandi agezweho, aho ahagaze ku mirongo ategereje abagenzi ngo abageze mu bice bitandukanye bagiyemo, kandi akaba afite inzira z'abafite ubumuga babasha kwinjiranamo n'utugare twabo.

Uruja n'uruza rw'abagenzi n'amamodoka menshi cyane atandukanye, aho bari kugana ku majansi, kugira ngo babashe gukatisha amatike, maze bajye mu mamodoka abafasha kubageza mu ntara zitandukanye bari kujyamo.

Uruja n'uruza rw' abantu benshi bari ku isoko ariko hakaba hari n'abanyonzi, bari gushaka abantu bo gutwara ku magare ubwabo. Abanyonzi babasha gutwara abantu maze bakabageza mu bice bitandukanye bitari ibya kure, kandi umuntu abifashisha iyo afite udufaranga duke, two gukora urugendo.

Ikirere cyiza cyane gikenkemuye cy'ibara ry'ubururu, ibicu bikeya, ibiti byiza kandi biri gutanga akayaga keza, ahari umuhanda mwiza wa kaburimbo ukoze neza n'imodoka z'amabisi mashyashya cyane ari gutwara abagenzi mu mutekano mwiza kandi usesuye, kugira ngo abashe kugeza buri wese mu gice yerekejemo.

Abanyamagare bakora umwuga w'ubunyonzi, bahagaze muri parikingi, buri wese n'igare rye, aho bategereje abagenzi, kugira ngo babageze aho bashaka kujya.

Abantu bari gukora umwuga g'ubunyonzi, harimo n'umugore utwaye igare ufite inkoko nyinshi imbere n'inyuma aho azijanye ku isoko.

Uruja n'uruza rw'amamodoka g'ugoko butandukanye garimo amakwaasiteri n'amatagisi matoya, gateraniye muri gare kugira ngo gabashe gutwara abagenzi gabageza mu ntara zitandukanye z'igihugu.

Urujya n'uruza rw'imodoka nyinshi cyane, yo mu bwoko bwiza butandukanye, ariko akaba ari imodoka y'abantu, ku giti cyabo, hakaba n'imodoka zitwara abagenzi muri rusange, arimo imodoka ziri mu muhanda mwiza na wo ukozwe neza, aho abantu na bo iruhande bari kugenda neza mu mutekano.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye aho bari ku mirongo bategereje kujya mu mamodoka kandi bakaba bahagaze mu buryo bubatandukanya kugira ngo babashe kwirinda icyorezo cya korona kandi bakaba bafite n'ahantu ho kugira ngo babashe gukaraba intoki maze bakomeze kugira isuku ibafasha kwirinda icyo cyorezo.

Ikibuga cy'indege cyiza cyane kandi cyubatswe mu buryo bw'ikoranabuhanga, kikaba gifasha abantu gufata indege, izivuye ndetse n'izirija mu bice bitandukanye byo ku isi.

Ubwato bunini cyane butwaye imitwaro ndetse n'abantu, kandi bukaba bufite n'ibara ry'idarapo ry'u Rwanda. Ubwato ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutwara abagenzi mu mazi , aho bubakura mu gice kimwe bubajyanye mu kindi, nk'uko tubibona mu mamodoka aba agenda mu muhanda.

Uruja n'uruza gw'amamodokari manini cane，g'amabisi，gabashaga gutwara abagenzi benshi kandi bashoboka， aho gari kugendera mu muhanda mwiza munini gwa kaburimbo， kugira ngo kabashe kugeza abagenzi iyo bagiye， mu mutekano mwiza kandi gusesuye.

Ikirere cyiza cyane gikeye kandi cy'ibara ry'ubururu ribengerana, ahari indege itwaye abagenzi ikababererekeje mu bice by'ibihugu byo ku isi bitandukanye bagiyemo.

Ubucuruzi bw'utumoto twitwa karivani, aho duhagaze ku murongo ari twinshi kugira ngo abaguzi badukeneye babashe kutubona maze buri wese abashe guhitamo ako yifuza. Akarivani n'akamoto kabashaga gutwara imitwaro ziringaniye maze kagafasha abantu kuzigeza aho bakeneye kujya.

Abamotari benshi cyane, aho bahagaze muri parikingi yabo kandi bakaba bahagaze ku mirongo, bategereje abagenzi bo gutwara kugirango ngo, babashe kubageza mu byerekezo bitandukanye bari kujyamo.

Uruja n'uruza gw'abamotari benshi cane aho bahagaze bahetse abagenzi, kandi bari gukurikira amategeko n'amabwiriza, bari guhabwa n'inzego zishinzwe umutekano gwo mu muhanda.

Umuhanda munini mwiza gwa kaburimbo, aho gurimo gugendwamo n'abamotari. Gukaba gufite isuku nyinshi kandi ihagije, gukaba guteyemo utwatsi twiza twa pasiparumu n'ibiti by'imikindo, kugira ngo birusheho gutuma gugaragara neza.

Umugenzi uri kwinjira mu modoka maze akishyura akoresheje ikoranabuhanga bita tapendigo, aho bafata agakarita bakagakoza aho kagenewe gukozwa maze amafaranga akagenda, nuko umugenzi akabona kwicara mu modoka agakomeza urugendo rwe.

Imodoka nyinshi kandi nshasha z'amabisi zo mu bwoko bwa litiko zihagaze muri gare zitegereje abagenzi, kugira ngo zibageze aho bashaka kuja.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, abagore n'abagabo ndetse n'amamodoka menshi cyane, yo mu bwoko butandukanye aho buri mugenzi ari gushakisha imodoka yajyamo, kugira ngo ibashe kumugeza mu cyerekezo yifuza kuganamo.

Urujya n'uruza rw'abantu n'imodoka bari mu muhanda, aho hari umugenzi uri kwambukira muri zebura korosinge, imodoka ihagaze imbere ye itegereje ko yakwambuka, kugira ngo nayo ibashe gukomeza urugendo rwayo.

Sitade nini kandi nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, aho ibasha kwakira abantu benshi cyane, kandi bose bakaba batwikiriye ku buryo nta bibazo by'imvura cyangwa imiyaga bibasha kubageraho.

Irushanwa jyahuje amakipe abiri y'abagore b'umukino wa voreboro, mu kibuga kiza kiri muri sitade, aho bamwe bari mu mpuzangano y'umukara n'umuhondo, abandi mu y'umutuku n'umukara.

Irushanwa ry'umukino gw'amagare ryahuje abakinyi mu bihugu bitandukanye byo ku isi, aho bahatanira ibihembo byinshi kandi bishimishije.

Ikipe y'abakobwa b'umukino wa tenisi, aho bambaye impuzankano y'umuhondo, hejuru n'umweru. Hasi kandi bakaba bafashe n'udukoresho tubafasha gukina umukino wa tenisi, kandi bakaba bafite ibyishimo mumaso yabo, aho biteguye kubona intsinzi.

Abantu benshi kandi b'ingeri zitandukanye bitabiriye igikorwa cya siporo kugira ngo babashe kuruhuka neza, siporo ifasha umubiri mu bintu byinshi birimo no kuwurinda indwara zitandukanye.

Abakinnyi b'umupira ndetse n'abafana babo bashimishijwe n'intsinzi babonye aho buri wese azamuye akaboko kugirango abashe gukora neza ku gihembo bahawe.

Abakinnyi babiri, bari gukina umukino wa tenisi bashishikaye, kugira ngo buri wese abashe gutwara intsinzi mugenzi we, umwe aka aba yambaye ibara ry'icyatsi n'umukara, undi na we akaba yambaye oranje n'umukara.

Abakinnyi b'umukino w'irushanwa ry'amagare, aho bahuriye mu mukino ari amakipe yavuye mu bihugu bitandukanye, kandi hakaba hari n'abaturage benshi baje kubashagara bari kubafana, kugira ngo abandi nabo barusheho kugira imbaraga zo gukina neza.

Abakinnyi b'umukino gwa Basiketi, bari mu myitozo, mu mpuzangano y'ibara jy'umweru n'umukara n'abandi mu ibara jy'umweru n'icyatsi, aho bashishikariye kwitoza kugira ngo bazabashe kubona intsinzi.

Umukino wa voreboro wahuje amakipe y'abagabo, aho bamwe bambaye impuzankano y'umutuku n'umukara, abandi bakaba bambaye ifite ibara ry'umweru n'umutuku n'umukara. Buri kipe yose ikaba iri gukinana imbaraga nyinshi cyane, kugira ngo ibashe kubona intsinzi.

Isiganwa ry'amagare aho amamodoka gose gashyizwe iruhande kugira ngo hirindwe impanuka zitandukanye, abareba amarushanwa barebere kure kandi n'abatwaye amagare babashe kugenda mu muhanda neza bisanzuye.

Umukino wa volley ball wahuje amakipe abiri y'abagore atandukanye, imwe ikaba yambaye ibara ry'umutuku n'umukara, indi ikaba yambaye ibara ry'icyatsi n'umukara, aho buri kipe yose iri gukina cyane kugirango ibashe gutahana insinzi.

Abakinnyi bari gukora umukino wo kwiruka, aho bamwe bambaye ibara ry'umuhondo, abandi bakaba bambaye ibara ry'icyatsi, kandi bakaba bari kwirukira mu kibuga cyiza cyane, aho nta kintu kiri kubatega.

Irushanwa ry'umupira wa basiketi boro wahuje amakipe abiri y'abagore, bamwe mu mpuzankano y'icyatsi n'umukara abandi mu y'umuhondo n'umweru ,aho bari guhatana cyane n'imbaraga nyinshi kugira ngo buri wese abashe gutahana itsinzi.

Amakipe abiri yahujwe n'umukino wa voreboro, aho imwe yambaye impuzankano y'umukara n'umweru, indi ikaba yambaye oranje n'ubururu. Buri kipe yose irashishikaye cyane kugira ngo ibashe kubona intsinzi, ikaba iri gushira imbaraga mu kubona ibitego byinshi.

Umukino wahuje amakipe abiri atandukanye, aho bamwe bambaye impuzankano y'umuhondo n'ubururu, abandi na bo bakaba bambaye ubururu n'umweru, kandi buri kipe yose ikaba ishishikariye guhangana n'iyindi kugira ngo ibashe gutwara intsinzi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane kandi batandukanye b'ingeri zose abana, abagore, abagabo, abasore n'inkumi. Aho baje gushungera umukino w'irushanwa ry'amagare aho urushanwa ari kuzamuka mu muhanda ugoye cyane w'amabuye, aho ari gukoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abashe gutsinda amarushanwa.

Irushanwa ry'amagare rigiye guhuza amakipe atandukanye, aho bari kwifashisha ibikoresho byabugenewe birimo: imyambaro myiza cyane, n'ingofero zazo, n'amagare yabugenewe abafasha kwihutisha urugendo.

Abakobwa bari gukora umwitozo wa siporo y'amagare. Siporo y'amagare ni umukino ubundi umenyerewe gukorwa n'abahungu, kuko aribo akenshi bagira imbaraga zo kuyatwara. Uwo mukino muri iyi minsi abakobwa na bo batangiye kuwitabira.

Umukino wa voreboru wahuje amakipe abiri y'abagabo bose bafite ubumuga. Uwo mukino ukinanwa mu buryo budasanzwe, kubera ko bawukina bicaye, bamwe hakurya abandi hakuno y'urushundura. Bakabasha gukina neza, kandi bikabasha no gushimisha ababireba.

Umukino w'irushanwa ry'isiganwa ry'amagare, aho wahuje amakipe atandukanye yo mu bihugu byo ku isi. kandi akaba yahuruje abaturage bavuye mu misozi itandukanye, kugira ngo baze kwihera ijisho ubwiza bw'uwo mukino.

Itorero ry'ababyinnyi riragaragaza umuco gakondo nyagwanda ryifashishije imyambarire irimo amayugi, irimo urugori, ibiseke no kuvuza ingoma.

Abantu benshi kandi batandukanye abasore n'inkumi, abagore n 'abagabo. Bitabiriye siporo rusange aho bayikora mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye, zirimo umuvuduko ndetse na diyabete.

Abakinnyi b'umupira gwa voliboro bashishikajwe no gukina. Bari mu amarushanwa, aho bashagawe n'abafana babo. Bamwe bambaye impuzangano y'umukara n'umweru, abandi bambaye ubururu n'umweru.

Umuhanda gukoze neza cane, gurimo kaburimbo kugirango imodoka zibashe gutwara neza ibintu n'abantu, kandi hafi aho hari akayira k'abagenzi kugirango nabo babashe kugenda batabangamigwa n'imodoka.